Ikibuga kinini kirimo ibyatsi hari umunyeshuri uri kwiruka imbere ye hari umunyeshuri wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'umukara n'amazu imbere y'uyu munyeshuri asakaje amabati y'umutuku iruhande rwayo hari igiti cy'avoka kirekire.

Ishuri ryigamo abana b'inshuke, risize inage ry'umuhondo, inkuta zishushanyijeho amagufa agize ibice bya muntu, irimo sima, inzugi zubakishijwe mu byuma bisize amarangi y'umukara.

Abanyeshuri ba kaminuza bicaye ku ntebe z'ibiti, higanjemo igitsina gabo n'igitsina gore, inyuma hari amashuri yubakishijwe amatafari ahiye n'ibiti bifite amababi atoshye birebire.